Abantu, abagore, n'abagabo, harimo umusaza bigaragara ko akuze wambaye, inkweto, bajyana koga, bakikije icyuzi kirimo amazi adasa neza.

Aha hari umuntu utabizi yagira ngo ni ibiyaga. Ariko mu by'ukuri hano bororeramo amafi. Ni ibyuzi.

Umuntu w'umugabo arimo araroba amafi mu cyuzi ari mu bwato afite n'uduti arimo arakururisha, hirya inyuma ye hari inzu nziza n'ibiti.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi karimo imirongo y'umweru, arimo aratera imiti mu byuzi bororeramo amafi kugira ngo hatagira ibiyangiza.

Abaturage bafite inshundura n'ubwato bagiye kuroba mu kiyaga amafi cyangwa se amasambaza kugira ngo bazayagurishe babone amafaranga.

Icyuzi kigari ariko atari cyane kifashishwa bavomamo amazi cyangwa buhira ahantu hari imyaka ndetse wakororeramo n'amafi.

Ubworozi bw'amafi. Mu buhinzi n'ubworozi. Iki ni icyuzi kiriho umugabo arimo arashyira mu mazi ibiryo amafi arya kugira ngo abeho.

Ushobora kwibaza ngo ese ibi ni ibiki uyu mudamu arimo arasarura, yego nibyo urabibona ko ababizi ari umuceri.

Umudamu wambaye umupira w'umukara, yiteze n'igitambaro kijya gusa umuhondo mu mutwe, arimo arasoroma ikawa, ni byiza guhinga ikawa kuko izana amafaranga.

Ubu ni ubuhinzi bw'ingemye zikiri ntoya z'ikawa, harimo ibiti birebire bifite amashami, ndetse harimo n'ikindi kinini kigaragara bisa nk'aho kimaze imyaka myinshi.

Ikibaya cyiza, gihinzemo ibintu, ariko bimeze nk'ingano, bagiye bacamo utuyira, hagati ni mu migende.

Ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda ni bumwe mu buhinzi buzana amafaranga menshi mu Gihugu, iyo habayeho gusohoka ku icyayi kinshi mu Rwanda kijya hanze. Iki cyayi aba barimo baragitunganya neza.

Uducupa dupanze neza ku murongo, turiho ibipapuro bigaragaza icyo buri gacupa umuti urimo ukoreshwa, dupfundikiye n'imipfundikizo y'umuhondo, iyi miti ikoreshwa bavura amatungo nk'inka cyangwa batera mu bihingwa.

Uducupa turi mu ngano zitandukanye n'amabara atandukanye, bisa nkaho ari imiti yifashishwa havurwa amatungo kuko hashushanyijeho inka.

Iyi nzu irimo ibikarito birimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo nk'inka ndetse n'ingurube, harimo kandi igikoresho bifashisha bapima uburebure.

Aka gacupa gafite ibara, ry'ubururu n'umupfundikizo by'ubururu, gateretse mu ntebe ifite ibara ry'umweru. Karimo imiti yifashishwa bavura amatungo.

Utujerekani turi mu mabara y'umweru, dufite imipfundikizo ifite ibara ry'icyatsi, kerurutse handitseho ko ari umuti wifashishwa abavura amatungo nk'inka, hariho kandi n'igishushanyo k'iyo nka.

Ishashi irimo amaherena ariko atari amaherena y'abantu. Ni amaherena batera inka kugira ngo bajye babasha kuzitandukanya. Hari n'igikoresho gifite aho bateresha.

Ese waba uzi ko hari amaduka acuruza imiti y'amatungo? Yego arahari. Nk'ibigaragara hano hari uwitwa Inkuyo uvura inka.

Ahantu batuburira imbuto z'ikawa, niho abandi bajya kuzikura bakagenda bakazihinga zigakura zikazerara maze bakabona inyungu yaba amafaranga cyangwa se ibindi.

Abantu bahuye bari mu gikorwa cy'umuganda, ni batatu abagabo babiri basanzwe ndetse n'umupolisi, barimo baratera ikimera.

Umuhungu ukiri mutoya wambaye umupira w'umweru, asunitse inkwi ku igare, arimo aranyura mu byatsi ariko bitari birebire.

Ibihingwa by'ibyatsi birasa neza bikorwamo imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi baba bagiye ku bitaro babavura indwara zitandukanye, harimo ikintu bashyiramo amazi yo kuzuhira.

Ibi ni ibiki ko harimo abadamu bunamye? Ni amashu bahinze, bakaba bazayagurisha.

Umumama ufite isuka ku rutugu wakenyeye igitenge arimo arareba, arahagaze bamufotora, imbere hari abandi bantu bari kureba iyo bari kujya.

Abaturage biganjemo abamama, bamwe bambaye utugofero, barimo barakorera ibintu bateye by'ibimera kugira ngo bikure neza.

Inka ifite ibara ry'umukara iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, hariho umugabo usa nk'aho ari nyirayo arimo arayireba.

Mu kibaya ahantu harimo hanyura abantu benshi, hari igare rihetse imifuka y'umweru, hari n'umugabo ufite isuka ku rutugu avuye guhinga.

Inka z'ibibamba nyinshi ziracyari ntoya ntizirabyara. Zihagaze ahantu hari ibyatsi bitoya, ziteye n'amaherena.

Aba bahinzi barimo barasarura imyaka yabo bahinze kugira ngo bajyane ku isoko, ndetse nabo basagure ibyo barya maze bagire ubuzima bwiza.

Hano umwana wo mu mujyi ashobora kureba ibi bintu akayoberwa ibyo aribyo ariko n'ibirayi biri mu tuntu tw'umukara.

Igishanga cyiza kirimo ibyatsi bitoshye, harimo imashini bifashisha mu gukura itaka aho ryaguye, iriho umugabo wambaye ingofero.

Mu bihingwa bihingwa mu Rwanda, harimo n'imbuto zitandukanye, nk'imyembe iyi tubona hano, ariko utarera, ndetse n'izindi ziba zitera imbaraga zikarinda n'indwara.

Ibyatsi bitandukanye ariko bitazwi izina ryabyo kuko njyewe ntago mbizi, hari ibindi byumye ariko bigihagaze.

Igihingwa ariko kitera ibintu barya, kirandaranda hasi, bakaba bakiyifashisha bakora imiti yifashishwa mu buvuzi.

Icyatsi kirandaranda hasi kizwi nka nyiramuragira, hari inzu itagaragara yubakishije amatafari ahiye ariko idafite isuku.

Igishanga kiza cyane giteyemo ibihingwa byiza bigaragara nk'aho ari ibirayi cyangwa se bikaba ari inyanya zihateye, ni mu gishanga ku mpande hagiye hari udusozi n'ubwo atari tureture.

Mu buhinzi n'ubworozi bushobora guhinga isombe, oya ndibeshye iyi ni imyumbati ihinze ikaba yifashishwa mu buryo bwo kubona amafaranga.

Mu buhinzi n'ubworozi hari abahitamo gukora ubuhinzi bagahinga ibirayi, ibi birayi urabona ko ari byiza cyane kandi ni binini byarakuze.

Ahantu heza cyane, hari ibiti ibirebire ndetse n'ibigufi, biragaragara ko harimo haravamo akazuba, birasa neza cyane rwose, ni ahantu nawe watemberera ukishima.

Ikibaya cyiza cyane kiriho ibidukikije byinshi. Hirya hari umusozi uri muremure ariko atari cyane, ibibaya bikunze kuba mu ntara y'Iburasirazuba.

Inka z'ibihogo zifite amahembe maremare, hirya hari ibiti binini ndetse izo nka ziri ahabugenewe.

Mu ishyamba harimo ibiti ndetse n'ibyatsi by'urushiru, hirya hari imisozi minini miremire iriho ibidukikije na yo.

Ibidukikije birimo ibiti birebire n'ibiti bigufiya harimo akayira k'agatsibanzira, hirya hari amazi menshi ariko atari cyane.

Aha ni ahantu heza cyane, hari ibihingwa bitandukanye, abantu bo mu mujyi cyane cyane abakiri abana bashobora kubibona bakagira ngo ni pasiparumu kandi ari ibigori.

Hano hari umuferege unyuramo amazi arimo amanuka ku rutare, hari kandi ibiti byiza bidukikije ndetse bicumbikira n'inyamaswa.

Ahantu heza cyane hari umuhanda wa kaburimbo hari n'ibidukikije byiza bitoshye, hakurya hari umusozi muremure uriho ibiti n'umucaca.

Abantu babiri umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa umugabo afite inote ya bitanu bari imbere y'imbuto zikiri ntoya bagiye gutera zikazabyara umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi n'ubworozi ni byiza ko tubukora kuko na bwo butanga amafaranga. Uyu mugabo arimo arasarura insenda yahinze kugira ngo ajye kuzigurisha.

Ubuhinzi bw'indabo hari umugabo wambaye itaburiya y'icyatsi cyijimye arimo arareba kozeze, inyuma ye hari izindi nyinshi.

Mu buhinzi n'ubworozi mu Rwanda harimo abibanda guhinga imbuto n'imboga. Hano hari intoryi, ibitunguru n'inyanya.

Umugabo afashe urudodo arimo kurukurura ari mu buhinzi aho hahinze urusenda kandi harazitiye.

Inyanya zifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, harimo nko kuba tuzishyira mu biryo kugira ngo biryohe ndetse abahanga bazikoramo n'umutobe.

Ubuhinzi bugezweho bahinze imbuto zitandukanye, zera ibintu by'umutuku. Hari n'utundi tukiri dutoya, hejuru hari ibyuma bihazitiye.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, hano izi ni betarave bateye ku buryo bwiza ubona ko bashyizemo n'uburyo bugezweho bwo kuzuhira kugira ngo zizere neza.

Mu buhinzi ni byiza gukoresha uburyo bugezweho bwo kuhira kugira ngo ibihingwa byawe bizagere kure maze bitange n'umusaruro mwiza, uyu muntu arimo aruhira iki gihingwa.

Uburyo bugezweho, bukoreshwa mu buhinzi, bwo kuhira imyaka, ku buryo no mu gihe cy'impeshyi, umuntu ahinga nta kibazo. Hirya hari ibiti, ndetse n'ibindi bihingwa bikuze.

Hano uyu muntu wahinye ipantaro arimo aruhira ariko akoresheje uburyo bwa gakondo, aho yavomeye amazi mu kintu agenda yuhira.

Uburyo bugezweho bukoreshwa mu buhinzi bwo kuhira imyaka ku buryo no mu gihe k'izuba wahinga ibihingwa byawe ntibigire ikibazo k'izuba.

Uburyo bugezweho bwo kuhira, buri gukorwa n'umugore wambaye imyenda y'ibitenge ndetse akaba yiteze n'akantu mu mutwe, afite igihombo kirimo kiravamo amazi yuhira.

Umugabo wambaye akajire gafite amabara atandukanye, ari iruhande rwamazi. Hirya hari igihingwa cy'ibigori bikiri bitoya.

Umusozi urimo ibidukikije ndetse n'intabire zahinzwe n'abaturage kugira ngo baziteremo imyaka, hasi mu kibaya harimo umugezi utemba.

Umusozi mwiza uriho ibyatsi bitandukanye by'ibidukikije harimo ibirebire ndetse n'ibigufi, hari urutoki ndetse n'amazu amwe n'amwe, hari ikirere cy'umweru.

Ahantu heza cyane hari ibidukikije bitandukanye, hari udusozi n'ubwo atari tureture, harimo n'ahantu haciye umuhanda hirya kure hari ahantu hasa ubururu.

Udusozi twiza cyane turimo turavaho akazuba, umusozi wo hino uciyeho indinganire kugira ngo hirindwe kuba haba isuri.

Ibidukikije bitandukanye, harimo ibiti, amazu ndetse n'insina zera ibitoki, iyi nzu isakaje amategura, haraguru hari umuntu.

Ahantu hari ibidukikije byinshi ni ku misozi, hari ibiti, hari n'inzu isakaje amabati y'umweru, hirya kure hari n'indi misozi n'ikirere cyiza.

Ahantu hameze nko mu gishanga harimo abagore bunamye barimo barabagarira ibihingwa bihateye, hirya hari imibyare ndetse n'ibindi biti.

Aha hari intebe zikozwe mu biti ndetse harimo n'umuntu uhicaye ufite umusatsi mwinshi, arimo arasoma igitabo, inyuma ye hari akantu gakozwe mu ibumba.

Inka nziza y'umusengo iteye iherena risa umuhondo, iri mu kiraro kiza cyubakishije ibyuma, irimo iranywa amazi.

Ishyo ry'inka harimo iz'ibihogo, iz'ikibamba n'imisengo, ziri mu ifamu zibamo, zimwe zirimo zirarisha. Izindi zahaze.

Umuganga uvura amatungo wambaye itaburiya y'ubururu n'ingofero na bote by'umweru, arimo arafungirana inka ifite amahembe maremare.

Ubworozi bw'amatungo magufi bw'ihene ni nziza cyane zirimo zirarisha aho baziragiye, hirya hari umugabo uri mu byatsi uziragiye.

Ku muntu utunguwe ntiyahita amenya ibi ibintu ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri urebye neza ni inkoko ziri aho bazororera.

Mu bworozi habamo no korora amatungo magufi nk'inkoko n'ingurube. Izi ngurube urabona ko ziracyari ntoya ariko ni nziza zatanga umusaruro.

Inka ziri mu kiraro cyubakishije ibyuma bisize irangi ry'icyatsi. Hariho abaganga bazo bakunze kwitwa abaveterineri baje kuzisuzuma.

Ubworozi bw'inkoko ni kimwe mu bintu bizana amafaranga kandi bikagira inyungu nyinshi kuko usibye kubona amafaranga, ubona n'amagi ukaba warya n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi buzwi ku izina ry'intama, buri ahabugenewe. Harimo rugeyo nziza bigaragara ko yatanga inyama.

Inka ibyibushye yazamuye umurizo, iri mu kiraro umutwe wayo ntabwo ugaragara neza, hirya hari indi nayo itari kugaragara.

Ubworozi bw'amatungo magufi nabwo bushobora kuguha amafaranga menshi kandi ugatera imbere, izi hene zose uzigurishije wayakuramo menshi.

Inka z'ibihogo, zifite amahembe maremare, ziri mu kiraro. Hari abantu babaganga b'amatungo, bari inyuma y'ikiraro.

Abaganga b'amatungo bambaye amataburiya n'ibisarubeti, barimo baravura inka z'ibihogo zifite amahembe maremare.

Abakora ubworozi bashobora gukora ubworozi bw'amatungo magufi nka buno buri aha, umuntu atarebye neza yagira ngo ni inkoko ariko mu by'ukuri ni inkwavu.

Niba nawe ushaka kugira ubuzima bwiza, ukaba wakwirira ku inyama ndetse n'amagi, ni byiza ko wakorora inkoko nk'izi ngizi ziri hano.

Inka barimo barakama n'indi ifite ibara ry'umukara, harimo abantu batatu, hirya hari amashuri asakaje amabati y'ubururu.

Ibiganza by'umukecuru arimo aravunga imbuto yahinze, yambaye urunigi ku kaboko, arimo arabivungira ku kintu gifite ibara ry'umutuku ariko atari neza.

Umuntu wambaye imyenda itagaragaza ibara afite inkoni, arinze imyaka basaruye bapakiye mu mifuka. Ni imyaka baba bategereje ko bagemura.

Ibiganza bibiri bifashe urubuto mu ntoki, arimo arerekana imbuto zirimo mu nda. Ni ibiganza by'umukara, bigaragara ko na nyirabyo ari igikara.

Umudamu wambaye agasengeri, afite intara arimo aragosora ibintu wagira ngo ni ibishyimbo cyangwa bukaba ari ubunyobwa.

Aba baturage barimo baritegereza ibigori basaruye byabaye imvungure harimo abana batoya, umugabo bigaragara ko ari umuyobozi n'undi usutamye.

Abaganga bambaye uturindantoki dufite ibara ry'icyatsi, bafite ibyuma bakoresha babaga, bari kubaga itungo kugira ngo barivure.

Igikoresho cyifashishwa mu buvuzi, kirimo imiti bavurisha, gisa ubururu, gifite n'umupfundikizo, giteretse ku kantu gafite ibara ry'umweru.

Abantu b'abagabo bafashe inka, hari umugore ufite imisatsi ya direde nawe arahari niwe uri kuyivura.

Mu Rwanda ibintu byose bimaze gutera imbere, ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo. Aba barimo baravura iyi nka y'ibihogo kugira ngo ikire.

Abaganga bambaye imyenda y'impuzankano n'utuntu tubarinda mu mutwe wabo, barimo baravura umurwayi bamuteraniyeho kugira ngo barebe ko bakiza ubuzima bwe.

Ubworozi bw'inkoko harimo iz'umukara ndetse n'izifite ibara rijya gusa kaki, ziri aho bazororera harimo hejuru y'itarara ariko ritarimo kumurika.

Icyumba cyo kwa muganga bakoreramo ubushakashatsi, cyane cyane iyo bafite ibyo bagiye gusuzuma, harimo abantu bambaye uturindantoki, harimo ibyo bari kureba.

Igikoresho gikozwe mu mbaho ndetse mu imbere harimo utwuma bashyizeho, harimo n'ibindi biti bigiye bitambitse cyifashishwa babikamo ibintu.

Mu Rwanda, ubuvuzi bwose bumaze gutera imbere, nka hano barimo baravura inka y'ibihogo. Hari abagabo benshi.

Umuntu wambaye uturindantoki na marinete, arimo arakora mu nyama zibaze, bisa nk'aho ari umuntu ushinzwe kuzipima kugira ngo amenye ko zujuje ubuziranenge.

Abaganga biga ubuvuzi bujyanye no kuvura amatungo, aba babiri barimo baravura imbwa ndetse bafite n'igikoresho wagira ngo bari kuyipima na yo bumva ko umutima utera.

Umukobwa wambaye igisarubeti cy'ubururu n'ingofero, wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, arimo arakora mu nda y'inka, ayivura cyangwa se ayitera intanga.

Inyamaswa y'inkazi irimo iragenda imeze nk'igiye gutega ngo ishake umuhigo w'ibintu irarira, ihagaze ahantu hameze nko mu mazi, hirya yayo hari ibyatsi byiza.

Mu karere kabamo parike y'Akagera, iyo parike ikaba ibamo inyamaswa zitandukanye. Izi ni inzovu ziri mu mazi.

Muri pariki y'Akagera habamo inyamaswa zitandukanye nk'intare, impala ndetse n'imparage, abakeyerarugendo baza kuzireba bagatanga amafaranga.

Mu mashyamba atandukanye habamo inyamaswa z'inkazi nk'intare ziri hano, hari ibyana byazo na byo ubona biteye ubwoba.

Inkende ifite ibara ry'umukara cyane n'umurizo yawuhanitse, hirya yayo hari ibiti biri mu mabara atandukanye, nayo ihagaze ku twatsi tugufi.

Mu mashyamba atandukanye cyane cyane nko muri za parike zikomeye, haba harimo inyamaswa z'inkazi nk'intare ndetse n'izindi.

Muri Pariki y'Akagera habamo inyamaswa zitandukanye, iz'inkazi ndetse na zimwe ziribwa n'izindi, iyi ni intare ikaba na yo iba muri iyo pariki.

Muri pariki y'ibirunga, habamo inyamaswa nyinshi, ariko izizwi cyane ni ingagi, aho zikurura ba mukerarugendo, baje kuzireba, bakadusigira amafaranga yifashishwa na Leta n'abayobozi.